Icyapa kigaragaza ikigo cya G.S Kampanga, kigaragaza inshingano n'indangagaciro ziranga abarezi bo muri icyo kigo, harimo byinshi bitandukanye.

Icyapa kigaragaza inshingano n'indangagaciro ziranga abarezi bo muri Ji Esi Kampanga

Umunyeshuri uri gukora ibyo bize muri kaminuza, ari kugira ngo abone amafaranga.

Abanyeshuri bambaye inifomu y'umweru n'umukara, bari kwiga kudoda, biganjemo abakobwa.

Abanyeshuri babiri umuhungu n'umukobwa, bari kugaragaza ibintu bakoze mu ishuri.

Umwarimu wegeranye n'abanyeshuri, bari kwiga ku bijyanye n'ibyo bize bari kwerekana ko babifashe.

Abanyeshuri biga ubutetsi, bari gukora ibyo babigishije ari byo bita paratike.

Abagabo batatu bari kugaragaza ukuntu bakoresha umuriro, binyujijwe mu mashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba.

Abanyeshuri babiri b'abakobwa biga ibintu bijyanye na compiyuta kwiga nibyiza cyane ,bitanga ubumenyi.

Abanyeshuri bari gukora intebe, biga ibijyanye n'ububaji. Leta yacu yashyizeho gahunda yo kwiga imyuga, mu gihe utakiri mu ishuri ukaba wabasha kuyikoresha.

Abakobwa bambaye iniforume z'ubururu n'umweru, bari kwiga kudoda. U Rwanda rwashyizeho amashuri y'imyuga kugira ngo abantu babone akazi.

Abanyeshuri bafashe amakaramu bifashisha bari gushushanya, kugira ngo bige ibintu byose ku buryo byazababyarira amafaranga.

Amashuri bigishamo ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse no gukoresha mudasobwa.

Abanyeshuri bari mu cyumba cya compiyuta, bari gukora ubushakashatsi ku bintu biga.

Abanyeshuri batatu, bari kugerageza ibyo bize, kugirango nibarangiza kwiga, bazabashe kuba bakoresha.

Abanyeshuri bari aho batekera, bari gusubiramo ibyo baba bize mu mashuri, bari kubikoraho paratike, kugira ngo babashe kuzabikora.

Umunyeshuri uri gukora ikizamini cyangwa se akaba ari kwiga, yifashe mu mutwe, yambaye n'ishati y'umweru, imbere ye hari amakaye.

Abakobwa bari kwiga imyuga y'ububaji, kuko biri kugaragara ko bari gutera amapata ku bintu by'imbaho.

Abanyeshuri bari kwiga gusudira, kugira ngo nibabasha kurangiza kwiga bazabikoremo umwuga.

Abanyeshuri bambaye ibikasike by'umuhondo , n'ibisarubeti by,ubururu ,basa nk'aho bari gukora ibyo bize.

Abanyeshuri bambaye ibisurubeti by'umuhondo, bari gukora ibyo bize, ibijyanye n'amazi.

Ni abanyeshuri bari kwandika wagira ngo bari gukora imyitozo, mwarimu wabo ari no kubakosora.

Abanyeshuri bari mu cyumba cya kompiyuta bari gukora ubushakashatsi kubyo biga.

Ishuri bigishirizamo umwuga w'ubudozi ku bakobwa, cyangwa se n'umuhungu ubyifuza.

Umunyeshuri w'umukobwa uri imbere y'abandi, bisa nk'aho ari kubaganiriza ukuntu bazajya bakora ibyo biga.

Abanyeshuri biganjemo abahungu n'abakobwa, biga ubukerarugendo, ubukerarugendo ni bwiza, kuko butanga umusaruro ku gihugu.